Abapolisi bafasha igihugu cyacu gucunga umutekano, maze abaturage bakabaho neza bishimye, kandi bagakora imirimo yabo nta kibazo bafite, kubera ko baba bamerewe neza, kandi ugize ikibazo akitabaza abo bapolisi.

umutekano ufasha abaturage cyane kubera ko abaturage baba bameze neza, bagakora ibyo bakora nta kibazo bafite, kubera ko igihugu kiba kirimo amahoro. Ni yo mpamvu haba hakenewe abasirikare bo kubungabunga uwo mutekano.

Abapolisi baradufasha cyane mu mutekano w'igihugu cyacu baba bafite imbwa ziba ziri gushakisha ibintu byinshi bitandukanye nk'ibiyobyabwenge n'ibindi.

Abasirikare bakoresha imbunda bari kurinda, kugirango hatagira abantu babatera amahane cyane, abasirikare batuma igihugu cyacu kigira umutekano kubera ko baturindira neza.

Igihugu gifite umutekano kigera kuri byinshi mu iterambere kubera ko kiba gifite amahoro arambye, abaturage bakirimo bakora imirimo myinshi itandukanye nta cyo bikanga, kubera ko haba hari umutekano, abapolisi n'abasirikare ni bo badufasha muri uwo mutekano, maze abantu bakagira imibereho myiza.

Umutekano wo mu mazi ni ingenzi cyane. Kubera ko hari abantu bagendera mu mazi bashaka kugirira abandi nabi. Niyo mpamvu umutekano wo mu mazi ukenewe cyane, bityo abantu bagenda mu mazi bakagenda bameze neza, nta kibazo bafite.

Umutekano wateye imbere cyane aho usanga abapolisi cyangwa abasirikare bari gukoresha ikoranabuhanga mu mutekano wabo, ibyo bikabafasha gukora akazi neza kandi bihuse cyane.

Ingendo zo mu mihanda ziba cyane, kubera ko habamo za zebura korosingi abantu bambukiramo iyo bari kugenda n'amaguru, ibinyabiziga iyo bihageze birahagarara maze umuntu akabanza akambuka.

Umutekano wo mu muhanda kenewe kubera ko mu muhanda hagendamo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, kandi hakagendamo n'abantu baba bari kugenda n'amaguru. Iyo umutekano wo mu muhanda umeze neza, ibinyabiziga bigenda byitonze n'abantu bakagera iyo bajya amahoro.

Kuganira birafasha cyane, kubera ko bituma abantu bahuzi ibitekerezo, kandi bakunganirana bari kuganira bashyize hamwe bari kureba ibyabateza imbere.

Inama zihuza abantu benshi cyane kandi bakaganira ku bintu byinshi byateza igihugu cyacu imbere, bungurana ibitekerezo bagahana ijambo maze ikiganiro cyabo kikagenda neza cyane.

Inama zirafasha cyane. Kubera ko iyo umuntu yazigiyemo ahura arahura n'abagenzi be. Imana zituma abantu bamenyana kandi abazigiyemo bakungukiramo ibintu byinshi bitandukanye.

Inama zihuza abantu benshi cyane, kubera ko mu nama nta muntu uba uhejwe, yaba igitsina gore cyangwa igitsina gabo. Bose bajya mu nama, kandi bagahabwa amahirwe angana yo gutanga ibitekerezo.

Inama zihuza abantu benshi cyane b'ingeri nyinshi aho usangamo abagabo n'abagore. Abagore nabo bahawe ijambo aho basigaye bavuga mu nama bakayobora ibiganiro.

Ni byiza cyane kujya mu nama ,ugatega amatwi ,ugakurikira kuko wungukiramo ibintu byinshi kandi bifite umumaro bizagufasha mu buzima bw'ejo. Inama zihuza abantu ,zigatuma umuntu agira ibintu byinshi yunguka.

Inama zihuza abantu benshi cyane, aho usanga mu nama harimo abantu bo mu gihugu cyacu cyangwa harimo abantu bo mu mahanga, maze bakaganira bakungurana ibitekerezo, bagafata ingamba zishimishije.

Intore zibyina neza cyane kubera ko zifashisha ibikoresho bya gakondo ,zifashisha imigara, zikifashisha n'amacumu maze zikabyina neza, zigataraka ,ababibonye bakabona binogeye amaso kandi bikabashimisha cyane.

Ibyibo birakoreshwa cyane mu muco wacu wa kinyarwanda, kubera ko ibyibo babijyanamo amapfukire. Udukoko na two baradukoresha cyane bari kugosora, cyangwa bari gutoranyiririzaho imyaka.

Ibibambano ni byiza cyane mu muco wacu wa kinyarwanda ,kubera ko abantu benshi babikoresha cyane ,tubisanga mu nzu ndangamurage tukabisanga no ku mazu amwe n'amwe aho babikoresha nka parafo.

Intebe za kinyarwanda zirakundwa cyane kubera ko umuntu azisanga ahantu hake na hake. Iyo abantu bazibonye birabashimisha cyane bakumva bashaka kuzicaraho ngo bumve uko zimeze cyangwa se bumve niba zitandukanye n'izindi.

Umuco wa kera wari mwiza cyane, aho wasangaga abantu bafite amasunzu ,bagataha muri za nyakatsi bakwicara bakicara ku birago bari kuganira, bakoreshaga ibibindi ,kandi bari kuvoma amazi cyangwa bari gushigisha imisururu, cyangwa bari guteka.

Iyo umuntu arimo kuririmba ari ukoresha ibikoresho gakondo bya kinyarwanda. Injyana yagenda neza cyane kandi ikaryohera amatwi. Ku buryo umuntu ayumva akumva arishimye kanda akumva ari injana ifite gahunda.

Ibigega babyifashisha bari guhunika imyaka iyo basaruye. Iyo myaka ikaba imeze neza mu kigega ntimungwe, iyo igihe cy'ihinga kigeze kindi bifashisha ya myaka bari kugira ngo batere imbuto, bazabone umusaruro mwinshi.

Abantu ba kera barambaraga bakikwiza cyane, aho wasangaga bambaye neza kandi bibabereye. Byabaga binogeye amaso, kandi binogeye umuco wacu wa kinyarwanda.

Ikibindi ni cyiza cyane mu muco wacu wa kinyarwanda kubera ko abantu bacyifashisha bari gushigisha. Bakifashisha bari gushigisha umusururu cyangwa bari gushigisha ikigage kubera ko ikibindi gituma umusuru usa neza.

Umuduri uryosha indirimbo cyane, iyo umuntu ari kumva indirimbo bari gukoresha umuduri yumva amerewe neza cyane kandi n'injyana yayo ikaba imeze neza. Igikoresho cyo mu umuco wacu wa kinyarwanda, abantu benshi bakunda indirimbo ziririmbwe bakoresheje umuduri.

Umuco wa kinyarwanda umaze gutera imbere mu gihugu cyacu ndetse no hanze, kubera ko abantu benshi basigaye bakunda ababyinnyi, kandi bakoresha ibintu byinshi bari kubyina byo mu muco wacu harimo: ibisabo ,y'ibiseke n'udukangara.

Intore zirataraka cyane mu birori ,zikabyina neza cyane ,iyo abantu bari kubireba biba bibereye amaso ,zibyinana imbaraga nyinshi cyane kuko ziba zifite umudiho.

Ibitoki bivamo umutobe mwiza uryoshye wa kinyarwanda. Abantu iyo bari kubikama bakoresha imivure, bakishyira hamwe bakajya baratonora imineke. Yamara kugwira bagakama hakavamo umutobe.

Abantu baboha udukapu, bagira abakiriya cyane, kubera ko udukapu dukundwa cyane, abantu badukoresha bari kujya guhaha cyangwa bakadukoresha bajyanyemo mafukire bagiye gusura abantu.

Intore zibyina neza cyane kubera ko ziba zambaye amayugi, ayo mayugi afasha intore kubyina neza, maze bakabyina batari gucuraganya.

Abaturage bahurira hamwe bakaganira, bagafata ingamba nyinshi zinyuranye. Abunzi nabo bunga abantu iyo bafitanye ibibazo, maze umutekano n'amahoro bikaboneka mu midugudu.

Abantu ba kera bitaga ku muco wa kinyarwanda cyane, aho wasangaga abantu bihurije bamwe bashyize imbaraga hamwe, bagatarama maze bigatinda, byatumaga bishima kandi bagahuza urugwiro.

Ubworozi burafasha cyane. Iyo umuntu yoroye agira umusaruro, kandi akabona n'ifumbire azafumbiza imyaka, cyangwa akarigurisha bakamuha amafaranga.

Ibiti iyo babyitayeho neza bakabirinda abantu babicamo za mishingiriro, bikuraga neza cyane maze bikayanga, indabyo zabyo zikaba zisa neza kandi zikaba zibereye amaso.

Ikibindi ni cyiza cyane kubera ko bacyifashisha bari kujya kuvoma amazi ku iriba, cyangwa bakacyifashisha bari guteka inyama. Ikibindi kandi bacyifashisha bari gushigisha umusururu, cyangwa ikigage.

Imitako ya kinyarwanda iba ibereye amaso kandi n'aho bayitatse mu nzu ikaba isa neza, abantu barayikunda cyane bakayitaka mu masaro yabo.

Umuvure ni igikoresho cyo mu umuco wacu wa kinyarwanda. Umuvure bagukoresha bari gukama imitobe maze imitobe bamara kuyibona, abazikunda bakayinywa cyangwa bakazengamo urwagwa.

Abakaraza bafasha abantu gususuruka. Kubera ko babarikuvuza ingoma neza. Iyo umuntu ababonye abona bishimye. Kubera ko bahuza imbaraga maze amajwi y'ingoma akirangira cyane.

Abahinzi iyo bishyize hamwe batangaga umusaruro mwinshi kubera ko bahingaga bari guhuzamba, kandi bari kuganira bari no kungurana ibitekerezo.

Inzu ndangamurage zituma tumenya amateka y'igihugu cyacu, tukahasanga ababyinnyi bazi kubyina neza cyane bagasusurutsa abaje bagana muri izo nzu ndangamurage kandi bakahungukira byinshi cyane.

Umuco wa kinyarwanda ni mwiza cyane, kubera ko habagamo abantu baba bari kuvugira inkaka z'inyambo, kandi nazo zishimisha abantu benshi cyane, kubera ko ziba zifite amahembe maremare.

Icyibo ni cyiza cyane, kuko gikoreshwa mu muco wacu wa kinyarwanda. Icyibo bakijyanamo ifukire iyo bagiye gusura abantu, icyibo kandi bakifashisha mu muco nyarwanda, bari kubyina, cyangwa bari gutaka.

Inkongoro ni nziza cyane mu muco wacu wa kinyarwanda, kuko bayikoresha bari gushyiramo amata kandi bakayikoresha mu bukwe. Ni igikoresho cyiza cyane kubera ko abantu bagikunda.

Umuco wacu wa kinyarwanda ntugacike, ushimisha abantu benshi cyane mu birori, mu bukwe, mu bitaramo. Iyo abantu bari kubona ababyinnyi bishimye, nabo birabashimisha cyane bakanezererwa.

Inkangara ntibikuyeho ko kuba yarashaje itakora, kubera ko iyo yashaje bayikoresha, maze ikongera igakora. Inkangara ni nziza cyane kuko bayishyiramo amata, cyangwa bakayikoresha mu birori, mu bukwe, cyangwa nk'umutako.

Urwuho barukoresha mu muco wacu wa kinyarwanda ,aho usanga abantu bari kurunywera umusuru, cyangwa bari kurunyweramo ikigage, cyangwa bari kuruyweramo urwagwa. Imitako kandi nayo barayitaka ,maze mu masaro y'abantu hagasa neza.

Ihembe rikoreshwa cyane mu muco wacu wa kinyarwanda, aho abaririmbyi baryifashisha maze rigasohora amajwi aboneye kandi aryoheye amatwi. Niyo mpamvu usanga abantu bakoresha umuco wa kinyarwanda bakunda gukoresha amahembe, bakayahuhamo kugira ngo gasohore amajwi ameze neza.

Kubyina ni ingenzi cyane， kubera ko iyo abantu bari kubyina baba bari kugorora ingingo zigize umubiri. Abahungu ari zo ntore， iyo bari kubyina biba bisa neza cyane.

Igicuma ni cyiza cyane kubera ko abantu bakifashisha bari kunywa imisururu ,cyangwa bari kunywa ibigage .Abantu barasangira ,bagasangirira ku gicuma maze bakaganira bagahuza urugwiro.

Akazu kanyakatsi kibutsa abana bari kuvuka muri iyi minsi, ko kera abantu babaga muri nyakatsi, basangiraga ibyo bafite bagasabana bakishima cyane, maze bamara gusabana bakajya mu mazu yabo ya nyakatsi.

Abazungu bakunda umuco, wacu wa kinyarwanda, iyo babonye abanyarwanda bari kubyina birabashimisha cyane, bakumva bashaka kubyiga, abazungu bakunda gukenyera imikenyero kandi bagakunda umuco wacu wa kinyarwanda, abanyarwanda iyo babonye abazungu bari kubyina, nabo barishima cyane.

Ibiryo bya kinyarwanda biraryohaha cyane, kubera ko biba ari umwirere, umutsima wa kinyarwanda ukomeza umuntu, igihaza nacyo cyoroshya mu nda, imyumbati nayo itera imbaraga, ibishyimbo bakabirisha iyo myumbati, imboga zitetse kinyarwanda, zikunganira uwo mutsima w'amasaka.

Abantu ba kera babaga basa neza cyane. Aho wasangaga umugore yasokoje agasatsi ke yakabinditse. Babaga bicaye hamwe, bafite ibirahuri byo kunyweramo.

Umuco wa kinyarwanda ni mwiza cyane, cyane cyane inka z'inyambo. Kubera kozikundwa cyane, ba mukerarugendo bakazajya baza kuzireba, cyagwa abazungu bazibona bikabashimisha cyane.

Umuduri uryoshya indirimbo cyane mu muco wacu wa kinyarwanda. Abantu benshi bawukoresha bari kuririmba indirimbo za kinyarwanda, ndetse n'izindi baba bihimbiye. Iyo bakoresheje umuduri bari kuziririmba, biraryoha cyane, maze bagasusurutsa abantu.

Inkangara zirakundwa cyane, kubera ko abantu bazikoresha bari kuzishyiramo amata, cyangwa bakazikoresha mu bukwe, bari gusohora umugeni, cyangwa bakazikoresha nk'imitako, inkangara ni igikoresho cya kinyarwanda kibereye amaso.

Umuco wacu wa kinyarwanda ushimisha abantu benshi cyane, kandi ugatuma abantu bashyikirana, maze bakishimana bakabaho neza cyane cyane iyo bari gusangirira mu kibindi cyangwa bari gusangirira mu ducuma, baba bari kuganira bameze neza, kandi bagahuza urugwiro.

Inzu ndangamurage zigira ibintu byinshi cyane, aho munasangamo udutebe twa kinyarwanda abantu bicaraho, agasangamo ibirago, izo nzu ndangamurage kandi ziba zubakishijwe nyakatsi.

Ababyinnyi ba kinyarwanda bashimishaga abantu benshi cyane, cyane cyane mu bitaramo cyangwa mu birori, intore nazo zitaraka neza cyane iyo ziri kumwe n'ababyinnyi bishimisha abantu bari kubireba.

Umuco wa kinyarwanda ni mwiza cyane, kubera ko utuma abantu basangira, bicara hamwe bagasuka ibiryo ku nkoko, maze bagasangira. Haba kandi hari n'ibyo kunywa bakarya bari no kunywa.

Ababyinnyi babyina neza cyane iyo bafite abaririmbyi babaririmbira. Ababyinnyi bakoresha udukoko bari kubyina，cyangwa bagakoresha ikibindi，agabo bambaye imikenyero myiza ya kinyarwanda，kuko biba bishimishije kandi binogeye amaso.

Abantu bakunda ibiryo bya kinyarwanda cyane ko ibigo byifitemo umwimerere nta mavuta arimo ,nta n' ibirungo byinshi birimo. Ibiryo bya kinyarwanda biryoha cyane iyo umuntu abirishije avoka ,kubera ko umuntu yumva biri kumirika neza.

Amasunzu nayo ari mu muco wacu wa kinyarwanda, amasunzu abantu bayiyogoshesha kera. Iyo umuntu abonye amasunzu abona asa neza. Abantu baba biyogoshesheje ayo masunzu babaga bameze kimwe utashobora kubatandukanya kandi ukabona bameze neza.

Umugozi ufasha abantu gucaginga, maze bakabona umuriro, cyane cyane abantu bafite mashini, kubera ko harigihe umuriro uba washize, muri mashine zabo, maze bakajya gucaginga, bakoresheje umugozi.

Ibikoresho by'amashanyarazi biba bigomba kubikwa neza cyane. Kugira ngo umwana atabikubaganya akaba yabyangiriza. Kubera ko hari aho usanga ibikoresho by'amashanyarazi ari bito cyane ku buryo ubibuze byakugora kubishaka.

Ibikoresho by'amashanyarazi ni byiza cyane, kubera ko bituma ducana cyangwa tugakoresha amatelefoni cyangwa tugacana tereviziyo, ni yo mpamvu biba bigomba kwitabwaho neza kandi umuntu utabizi akirinda kubicokoza kugira ngo atabyangiza.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashanyarazi ni ingenzi cyane, kubera ko ari byo bituma tubona amashanyarazi maze tugacana, tugacaginga amaterefone yacu. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kubifata neza, kugira ngo twiteze imbere, kandi tubone uko tujya dukoresha ikoranabuhanga.

Amasoko afasha abantu guhaha ibintu byinshi binyuranye, iyo umuntu agiye guhahira mu isoko ibyo ashaka byose arabibona. Abamotari na bo baba baraho hafi kugira ngo batware abantu baje guhaha cyangwa babatwaze imizigo yabo.

Ibikorwaremezo bifasha abantu benshi cyane, imihanda zifasha abagenzi kuyigenderamo, amasoku nayo agafasha abacuruzi n'abaguzi guhura bagahahirana.

Ibikorwa remezo bifasha abantu benshi cyane aho imihanda abantu bayigendamo n'amamodoka akagenda muri iyo mihanda. Ibikorwa remezo kandi bifasha abantu kubona akazi maze bakiteza imbere.

Iterambere ryaraje cyane kubera ko abantu basigaye baramenye kubaka ama etaje. Ama etaje afasha abantu benshi cyane, kubera ko atuma ubutaka butubuka, kandi abantu bayakoreramo ibikorwa byinshi binyuranye.

Urusengero ruragendwa cyane, kubera ko abantu bagira igihe cyo gukora, bakagira n'igihe cyo kuruhuka. Iyo rero bari kuruhuka babona n'umwanya wo kujya gusenga. Biba byiza iyo urusengero ari runini, kubera ko abantu benshi barwicaramo, maze bagahuza imitima isengesho ryabo rikagenda neza.

Urusengero ni rwiza cyane, iyo umuntu yagiye gusenga ahura n'abandi akishima ,kandi akaganira n' Imana. Urusengero rutanga imisoro rukunganira igihugu cyacu mu iterambere.

Iterambere ryaraje aho abantu basigaye babatuza mu Midugudu, maze bakajya mu mazu meza. Barushaho kugira imibereho myiza kandi bakungurana ibitekerezo, bakarushaho kwiteza imbere.

Iterambere rirakataje muri iyi minsi abantu basigaye batura ku midugudu bakegeranya ibitekerezo bitewe n'uko baba batuye ku mudugudu. Kandi bagasabana kubera ko baba baziranye cyane.

Abapolisi baradufasha cyane kubera ko bakontorora imodoka z'abantu, bigatuma abantu bamenya ko imodoka zabo ari nzima, zitatera impanuka cyangwa zigatera ibindi bibazo.

Insengero abantu bazisengeramo kandi bigatuma igihugu gitera imbere kubera ko insengero muri iyi minsi zisigaye zisora, abantu bajya gusenga bagahura n'abandi bakishima cyane.

Urusengero rufasha abantu benshi cyane, kubera ko bajyayo bagiye gusenga ,kandi iyo umuntu asenze mu mutima we amera neza ,akumva araruhutse ,ni yo mpamvu insengero ziba ahantu henshi ,kugira ngo zifashishwe abantu bari kujya gusenga.

Abakoreye hamwe bahuza imbaraga， maze bagakora vuba， kubera ko bakora bari kuganira kandi bari kungurana ibitekerezo， maze ibyo bari gukora bikihuta cyane.

Urusengero rufasha abantu benshi cyane, kubera ko babona aho bajya guhurira n'Imana. Urusengero kandi rutanga imisoro, maze igihugu cyacu kikarushaho kwiteza imbere.

Urusengero ruhuza abantu benshi, biba byiza iy'urusengero, rufite aho amamodoka aparika, kubera ko hari abantu, baza gusenga bari mu mamodoka, kugirango bihute kandi bagereyo vuba.

Gahunda yo gutuza abaturage ku midugudu iraboneye cyane kuko abantu baba bari mu mazu meza kandi baka batuye ahantu heza, barasabana cyane kandi bakungurana ibitekerezo byabateza imbere nko kujya mu makoperative n'ibindi.

Ba mukerarugendo bakunda igihugu cyacu. Iyo bagisuye bakundaga kugitemberamo maze bakagendera ku biraro aho bagendaga bari kureba imisozi yitegeye aho hantu, maze bakaduha amadovize igihugu cyacu kigatera imbere.

Urusengero ni rwiza cyane kubera ko ruhuza abantu benshi, ariko biba byiza iyo rwubatse neza kugirango abaje bahagana, babone aho banyura badakandagiye mucyondo.

Kaminuza ifasha abantu benshi kwiga ibintu binyuranye, bamwe biga iby'ubuveterineri, abandi bakiga iby'ubuhinzi, abandi bakiga ibyo gukora mu nganda.

Akabati ni keza cyane kubera ko gafasha umuntu kubikamo ibikoresho bitandukanye, kandi kakabika ibyo bikoresha neza, umuntu yabikamo impapuro, akabikamo ibitabo, imeza ifasha umuntu kwandika neza, intebe igafasha umuntu kwicara neza iyo ari mu biro.

Ikigo nderabuzima gifasha abantu kwivuza ntibahere mu rugo, iyo barwaye bihutira kujya kwa muganga kugira ngo babavure, cyangwa bahabwe ubundi bufasha.

Ibikorwaremezo bifasha igihugu cyacu kubera ko insengero zitanga imisoro maze iyo misoro bakayikoresha bari kubaka amashuri, cyangwa bari kubaka ibindi bikorwaremezo nk'imihanda n'ibindi.

Uburenganzira bwa muntu bukwiye kubahirizwa buri wese agatanga igitekerezo cye mu nama, yaba umugabo cyangwa se umugore bose baba bagomba gutanga ibitekerezo byabo, kandi byose bikumvikana ku kigero kingana.

Iterambere ryaraje abantu benshi basigaye barahabwa uburenganzira bwo kuvuga mu nama, no gutanga ibitekerezo byabo, bigatuma abantu benshi bumva ko buri wese afite agaciro nka ko undi.

Amagare aragendwa cyane, kubera ko aba arimo moto cyangwa arimo imodoka, abantu batega izo moto cyangwa imodoka, bikabafasha kujya ahantu hatandukanye mu duce twinshi.

Imihanda yabaye nyabagendwa, aho usanga amabisi ari kugenda mu mihanda, cyangwa akabona aho aparika, abantu bagenda muri aya mabisi bameze neza, bitewe n'uko aba ari menshi batari kubyigana.

Lifani zifasha abacuruzi cyane cyane kuberako abacuruzi bazifashisha bari kujya kurangura ibicuruzwa, ifasha n'abantu batandukanye iyo bari kwimuka cyangwa bashaka gutwara ibintu byinshi.

Ibikorwa remezo bitanga amafaranga menshi cyane, kubera ko abantu bacuruza bakabona amafaranga cyangwa ibikorwa remezo bigatanga imisoro, imihanda na yo ifasha abantu mu kugenda cyane cyane kaburimbo bakagera iyo bagiye vuba.

Imihanda yabaye nyabagendwa abantu basigaye bayigenderamo cyane aho ibisigaye byaroroshye, abantu bagenda ari benshi muri iyo mihanda, kandi batwaye ibintu byinshi bikaborohera, kubera ko imihanda iba ikoze neza cyane.

Ni byiza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda. Kubera ko iyo umuntu ari ku rugendo hari igihe akenera kurya. Rero muri gare iyo harimo amazi, umuntu aba agomba gukaraba intoki, kugira ngo narya ataza kurya imyanda.

Imihanda ikoze neza ifasha abanyonzi cyane kubera ko ituma batwara neza, ifasha abagenzi kandi gutega amagare maze bakagera iyo bashaka bihuse bidatinze mu nzira.

Abanyonzi bafasha abantu benshi cyane kugenda, kubera ko hari igihe umuntu aba adafite amafaranga yo gutega moto, maze akitegera umunyonzi, abanyonzi kandi bafasha abantu gutwara imizigo yabo.

Imihanda yabaye nyabagendwa, aho amabisi ajya mu bindi bihugu, ugasanga bisi ivuye mu Rwanda igiye muri Uganda, ibyo bifasha abantu guhahirana, abandi bagasura n'imiryango yabo iba iri muri Uganda.

Imodoka nini zitwara abagenzi benshi cyane, maze abagenzi ntibasigare ku mihanda. Abagenzi bajya iyo bajya vuba bakagerayo amahoro kandi bameze neza.

Gare zabaye nyabagendwa cyane aho usanga hari ahantu bateganyije ho kuruhukira, aho abagenzi bajya bagiye kuruhuka iyo bavuye mu mamodoka. Mu modoka atwara abagenzi neza ugasanga ibintu biri ku murongo cyane aho umuntu agenda azi ngo ndafata imodoka y'ahangaha.

Iterambere rirakataje muri iyi minsi, aho usigaye usanga n'abagore batwara amagare, bagatwara amagare bari kujya kurangura cyangwa bagatwara amagare bari kujya mu zindi ngendo zitandukanye.

Iterambere rirakataje cyane, aho usanga n'abagore bari gutwara amagare; batwara amagare bavuye kurangura ibicuruzwa cyangwa bagatwara amagare bari gutembera,

Gare zibamo imodoka zifasha abagenzi cyane kuberako abagenzi bari kujya mu ntara zitandukanye babona imodoka batega ,bakagera iyo bajya neza kandi bakagererayo ku gihe badatinze mu nzira.

Umuntu agomba kugenda muri gare yigengesere cyane kubera ko haba harimo amamodoka menshi ari kujya ahantu hatandukanye kandi hakaba harimo n'abantu benshi cyane, ni yo mpamvu umuntu aba agomba kugenda ari gushishoza.

Iterambere ryaraje aho usanga za rifani ziri gupakira ibintu kubera ko zibitwara ari byinshi ugereranyije n'uko mbere byari bimeze. Abo bantu batwara izo rifani babona amafaranga, barangiza bagakomeza kwiteza imbere.

Imihanda yabaye nyabagendwa cyane, aho usanga amamodoka manini n'amatoya, ari kugenda muri iyo mihanda, iyo mihanda kandi iba irimo abagenzi, barikujya hirya no hino, bigatuma abantu benshi bagenderana kandi bagakora ibyo bashaka gukora vuba.

Ibimodoka binini bitwara abagenzi benshi cyane, niyo mpamvu biba byiza ibyo bimodoka binini, bigatuma abagenzi badahera mu nzira maze bakajya mu byo bagomba gukora neza kandi bitabagoye.

Ingendo zo mu mazi na zo zirafasha cyane, kubera ko hari aho usanga nta mihanda ihari, bikaba ngombwa ko abantu banyura mu bwato bari kigenda, bakenera umusare wo kugenda agasha kugira ngo bagereyo vuba.

Ibimodoka binini bya shirumuteto byaje bikemura ibibazo byinshi.，kubera ko wasangaga abantu bahera ku mihanda， bakabura uko bagenda， bagakererwa akazi，cyangwa bagakererwa imirimo yabo.

Gare ziragendwa cyane kubera ko ziba zirimo abantu benshi batandukanye, bari kujya mu Ntara zinyuranye z'igihugu. Ni yo mpamvu haba hakenewe amamodoka yo gutwara abo bantu, kugira ngo bagere iyo bajya vuba kandi bitabagoye.

Indege ni nziza cyane, iyo abagenzi bayigiyemo bagera iyo bajya amahoro, urugendo rwabo rukihuta cyane bakagerayo vuba bidatinze kubera ko yihuta vuba vuba.

Imihanda ifasha abamotari gutwara neza, kandi abagenzi batwaye bakagera iyo bashaka vuba, amamodoka nayo agenda muri iyo mihanda, akunganira abamotari gutwara abagenzi.

Siporo ya tenisi ni nziza cyane kuberako iyo abantu bari kuyikora baba bari kunanura amaboko, bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri, kandi uwayikoze akaruhuka mu mutwe.

Siporo ni nziza cyane kuberako ihuza abantu benshi. Siporo ihuza abantu nk'iyo habaye imipira abantu bakajya kureba umupira haba harimo urubyiruko, harimo n'abasore n'inkumi ,harimo abasaza n'abakecuru.

Siporo ni nziza cyane ituma abantu bagorora imibiri yabo ,kandi bagahura, bakishima cyane bakamenyana. Siporo ni ubuzima ,siporo irakundwa cyane iyo abantu bayikoze neza, bituma ubuzima bwabo bumera neza.

Siporo ni nziza cyane, umuntu uyitayeho neza akayikora neza abikunze agera ku rwego rushimishije. Aho ashobora no kujya kurushanwa ku rwego rw'igihugu, cyangwa akajya kurushanwa ku rwego mpuzamahanga. Maze yatsinda akabona ibihembo kandi byiza cyane.

Imikino yo kwiruruka iba myiza cyane kuberako abantu iyo bari kwiruka baba bari kugorora amaguru, habaho kurushanwa kandi kugira ngo abatsinze bahabwe ibihembo, niyo mpamvu buri wese aba agomba kwirwanaho kugira ngo arebeko yatsinda maze akabona ibihembo.

Siporo z'imodoka zirakundwa cyane ariko ziba ahantu hake na hake, ni yo mpamvu usanga abantu bari kuzirebera ku mateleviziyo kubera ko usanga ahanini zitari ahantu henshi.

Umuntu utozaji siporo iyo atoje neza cyane, abatoje barishima cyane kandi bakagira imikoranire myiza, bitewe n'uko baba babimenye kandi bikabateza imbere. Siporo ituma abantu basabana kandi bakaba inshuti.

Ikibuga gituma abantu bakora siporo, bakishima cyane, n'ubuzima bwabo bukamera neza cyane, kubera gukora siporo abantu baramenyana, kandi bakagira imibereho myiza.

Umukino w'amaboko ni mwiza cyane, utuma abantu barambuka amaboko, kandi abakinyi bakishima cyane kubera ko baba bari gusabana.

Siporo ni nziza cyane, kubera ko siporo muri iyi minsi isigaye ikorwa n'abantu bose. Abantu bose bakora siporo, igitsina gore. Siporo ntabwo iheza, kandi ifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Sipori ituma umuntu yidagadura kandi akaruhuka mu mutwe, ndetse ubuzima bwe bukamera neza. Siporo kandi ihuza abantu benshi, bagasabana, bakaruhuka.

Siporo ni nziza cyane kubera ko siporo ituma abantu bamenyana kandi bakaba inshuti. Umuntu ukora siporo amaraso ye atembera neza mu mubiri ,ingingo ze z'umubiri zikananuka cyane.

Siporo ihuza abantu benshi, iyo bagiye gukina, abandi bagiye gufana iyo mikino, iba yabereye mu ma sitade atandukanye. Iyo umuntu ari gukora siporo, ubuzima bwiyumva bumeze neza kubera ko amaraso aba ari gutembera neza mu mubiri.

Abakobwa nabo bashishikarizwa gukora siporo cyane, kubera ko siporo idaheza. Siporo ni nziza cyane kubera ko ifasha abantu gutuma ubuzima bwabo bumera neza, kandi siporo iruhura mu mutwe.

Siporo ni ingenzi cyane kubera ko ihuza abantu benshi, abo mu gihugu cyacu n'abo mu mahanga bose baraza, bagakora siporo z'amagare abatsinze bakabaha ibihembo bishimishije, hari abatsinda ku rwego rw'igihugu n'abatsinda ku rwego mpuzamahanga.

Gukora siporo binanura imitsi, bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Umuntu akagira ubuzima bwiza bitewe n'uko umubiri we uba umeze neza, amagufa ananutse, n'amaraso ari gutembera neza.

Biba byiza iyo umuntu amenyereje abana gukora siporo, kubera ko siporo ari nziza mu mubiri w'abantu. Biba byiza iyo abana bari kuyikina, kubera ko basabana bakaba bishimye cyane.

Siporo ni nziza cyane, aho yageze ku rwego rw'igihugu abantu bose bakayimenya. Abantu baza muri siporo bari mu marushanwa, batsinze bagahembwa maze bakiteza imbere.

Siporo ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu. Iyo umuntu yakoze siporo ubuzima bwe bumera neza dore ko siporo idahezaga abantu. Yaba abagabo cyanga abagore bose baba bagomba kujya muri siporo.

Siporo ntiheza aho usanga n'abakobwa basigaye bajya kurushanwa, bakarushanwa ku rwego rw'igihugu, maze abatsinze bakabona ibihembo bishimishije, siporo ihuza abantu igatuma abantu bishima cyane.

Ni byiza cyane gutoza abana siporo, kubera ko bakura babikunze, abana niyo bakunze siporo bashobora guhatanwa bakabona ibihembo byinshi bishimishije.

Siport ituma abantu bashyira hamwe iterambere rikiyongera. Iyo abantu bashyize hamwe ubuzima buba bwiza kandi bakagira imibereho myiza.

Imikino y'amagare irakundwa cyane kubera ko ihuza abantu bo mu bihugu bitandukanye. Iyo bahuye kandi baba bari kurushanwa, maze uwatsinze bakamuha ibihembo bishimishije.

Siporo ntabwo iheza kubera ko n'abafite ubumuga bayikora. Bituma bahura bakaganira kandi bakishima cyane , maze ntibaheranwe n'agahinda.

Siporo ituma amakipe arushanwa, bigatuma amakipe akora cyane, kugira ngo yongere ubumenyi. Siporo kandi ituma amakipe abaho neza.

Iyo ukunze gukora siporo, baguha ibihembo ukishima cyane bigatuma utera imbere, kandi n'umubiri wawe ukabaho neza kubera gukora siporo.

Umutoza iyo atojeje abakinnyi neza, abakinnyi bamenya siporo cyane kandi bakamenya imikino myinshi itandukanye. Iyo bamaze kubimenya bajya mu marushanwa, maze bakabahemba bakarushaho kwiteza imbere

Siporo ni nziza cyane kubera ko ituma umuntu agororoka mu mubiri. Siporo kandi iruhura mu mutwe， igatuma umuntu yumva ameze neza， akanatekereza neza cyane， siporo ihuza abantu， abantu bakishima cyane.

Siporo ya basiketi ni nziza cyane ariko iragora kuyikora, kubera ko akenshi isaba abantu barebare kugira ngo babone uko bajya baratsinda ibitego byinshi.

Pisini ni nziza cyane kubera ko abantu bazikoresha bari gukora siporo, abantu bakoresha pisine bari gukora siporo zo mu mazi, kubera ko pisine ibamo amazi abantu bakajya boga, bagakora siporo zo mu mazi bameze nk'abari koga.

Igitsina gore na cyo nticyahejwe muri siporo, aho usanga abagore na bo bafite amakipe, bakarushanwa maze bikaba binogeye amaso. Abatsinze bahembwa ibihembo bishimishije, kugira ngo bagire imbaraga zo gukomeza guhatana.

Imodoka bakoresha muri siporo zirihuta cyane, ku buryo bisaba ko abantu baba bavuye mu nzira, kugira ngo zitabagonga, zigira ivumbi ryinshi cyane. Abareba iyo mikino y'imodoka baba bari kurebera ahantu hitaruye.

Imihanda ikoze neza ituma abantu bahahirana, maze bakabona ibyo kurya byihuse, ifasha kandi abantu bari kugenda muri iyo mihanda kwihuta, bakarushaho kugenda vuba bakajya mu mirimo yabo, maze bakiteza imbere.

Imihanda ifasha abantu cyane, bayifashisha bari kujya guhaha cyangwa bari gutembera, abandi bakayifashisha bari kujya kuvoma amazi, imihanda ni ingenzi kuberako tuzinyuramo n'ibinyabiziga.

Imihanda yabaye nyabagendwa cyane, kubera ko imihanda ikoze neza, ikaba ifasha abagenzi kugenda neza nta kibazo, ifasha kandi ibinyabiziga kugenda neza byihuse.

Imihanda yo mu Midugudu ifasha abantu cyane, kubera ko abantu bagenda muri iyo mihanda bari gusura cyangwa bari guhahirana, cyangwa abanyeshuri bakayinyuramo bari kujya kwiga, n'abandi bakayinyuramo bari gukora ibikorwa bitandukanye.

Imihanda ikoze neza ifasha abagenzi cyane, kandi n'abanyonzi bakayinyuramo bari kwihuta, bigatuma bajya iyo bajya neza nta kibazo, kandi bakagerayo vuba.